Farumasi ni inzu bacururizamo imiti, ni inzu zo ku bitaro ziba zirimo imiti itandukanye, idufasha gukira uburwayi, zidufasha kugira ubuzima bwiza, zitanga akazi ku babyize, abaganga n'abaforomokazi, ndetse n'abafarumasiyo.

Njyewe nziga ubuganga kubera ko bigira akamaro, kandi tukabonamo n' amafaranga menshi bahembwa amafaranga menshi, kandi ukagera kuri byinshi kubera ko bapima, bakareba ibiri mu mutwe w' umuntu ikibazo yaba afite.

Posite do sante ni ibitaro bitoya, ni nibyo bya mbere bidufasha kwivuza, haba harimo imiti y'ibanze idufasha, bigatuma tujya ku bitaro tutari twaremba cyane.

Ibidodoki biraryoha, ibidodoki ubihinga aho ushaka hose wabihinga. Ibidodoki birandaranda ku gishinga. Usanga byuzuye ari byinshi. Ibidodoki bisigaye biragurika, usanga bitanga...

Dukunda inturusu za nyiramweru, kubera ko zivamo amakara meza cyane cyane, kandi zivamo n'umuti, usanga abantu bazikunda cyane zivamo amakara arama mu ziko adashira ubusa.

Ikigori mu buzima busanzwe ni kiza cyane. Usanga igihingwa k'ikigori ari igihingwa kizamura abantu cyane kubera ko abantu baragikunda. Ni igihingwa gitubuka utera uruheke rumwe, hakera ibigori byinshi cyane.

Ibyatsi bidufasha byinshi bivamo: imiti ikatuvura, ikavura n' amatungo, ibyatsi bivamo ibinini, ibyatsi bidufasha kuba twakwivura bitatugoye bitadusabye n' amafaranga menshi cyane.